Itsinda ry'abantu biganjemo abagabo bahagaze iruhande rw'imodoka ,bambaye amapingu bakaba barinzwe n'umupolisi .Ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwa n'abashinzwe umutekano mu Rwanda mu gutwara abantu bakekwaho ibyaha.

Icuma gihagaze mu muhanda cy'ikijuju gifitemo amabara gw'umukara ndetse n'agakamera hejuru, kikaba ari icuma cifashishwaga n'urwego gw'umutekano gwa polisi rukorera mu muhanda, cikaba ari icuma gishinzwe gufata imodoka zifite umuvuduko munini.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'abagabo n'abagore bahagaze bareba umugabo wambaye igisurubeti c'ubururu, n'ingofero y'umuhondo, ufashe isafuriya irambitse kumeza irimo irakamo umuriro ku ruhande harimo hariho kizimyamwoto ndetse n'icupa rya gaze.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo umwe muri bo akaba ari ukorera urwego rw'umutekano rwa polisi. Bahagaze imbere y'imodoka y'urwo rwego rushinzwe umutekano rw'abapolisi yifashishwa mu gutwara abapolisi, ndetse n'abanyabyaha rubavana ahantu rubajyana ahandi.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'abagabo n'abagore, bambaye udupfukamunwa harimo n'abashinzwe umutekano mu rwego rw'abapolisi, bahagaze iruhande rw'imodoka y'umweru irimo iranyura ku byuma by'ubururu mu suzuma.

Itsinda jy'abantu rigizwe n'abana n'abantu bakuru bashinzwe kuzimya umuriro, bakaba barimo barerereka abana ubujyo ibikoresho bakoresha mu kuzimya umuriro bikora. Hakaba n'imodoka zibaparitse inyuma z'abashinzwe umutekano arizo zikoreshwa mu kugana aho habaye ikibazo cy'umuriro.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ku binyabiziga bya moto, banyura imbere y'ibyuma byo mu muhanda byifashishwa mu gucunga umutekano wo mu muhanda. Aho ibi byuma bita sofiya bishobora kwifashishwa mu gupima umuvuduko ndetse no kuba byakoreshwa mu gutanga ibihano, ku bantu batatunganyije amategeko y'umuhanda.

Itsinda ry'abagabo batandatu bambaye amapingu. Iruhande gwaho hahagaze umwe utagambaye, akaba ari ibikoresho bikoreshwaga n'inzego z'umutekano, mu gihe barimo barafata abantu bafite ibyaha kugira ngo babajane mu bufungiro.

Inzu zubatswe mu buryo bwa kijyambere， imbere yayo ikaba ifite ubusitani bwiza ndetse izo nyubako zikaba mbere yaaho hari abashinzwe umutekano wo mu rwego rwa polisi，izi zikaba ari inzu zubakwa kugira ngo zibashe kuba zakorerwamo n'aba bashinzwe umutekano.

Icuma c'ikoranabuhanga kigezweho hamwe n'umugozi waco. Iki kikaba ari icuma bamanika ku gikuta, kikaba ari icuma cifashishwa mu kumenya ndetse no gufata amashusho y'ahantu runaka bakimanitse.

Ikiyaga giparitse mo ubwato bwa kijyambere bw'urwego rushinzwe umutekano rw'abapolisi. Bukaba ari ubwato buhagazemo abapolisi babiri, umwe muri bo wicaye imbere akaba afite zimwe mu ntwaro zitwa imbunda, zikoreshwa mu ugucunga umutekano.

Itsinda rigizwe n'abantu b'abagabo n'abagore bicaye bakoze ikizeru, imbere hakaba hicaye abagabo bicaye ku ntebe z'icyatsi n'umweru, inyuma yaho hari inzu zubatswe mu buryo bwa kera ariko zikoreshejwe amatafari ndetse n'ibirahuri.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abagore, ikaba ishagarariye umugabo ufite indangururamajwi ndetse akaba ari uburyo bumwe bwifashishwa igihe habaye inteko y'abaturage cyangwa se hari umuyobozi wasuye abaturage mu gihe barimo bamugezaho ibibazo.

Icyumba cy'inama cyicayemo imbaga y'abantu, biganjemo abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano mu rwego rw'abapolisi ndetse n'igisirikare ,aho bahurira mu cyumba barimo baganirizwa n'umuyobozi ,kuyerekeranye na gahunda zigeye zitandukanye z'igihugu.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'abagabo n'abagore harimo abayobozi bo mu rwego rw'umutekano rwa gipolisi, bicaye mu ntebe z'umutuku, muri sale imanitsemo ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse muri bo umugabo umwe arahagaze arimo aganiriza bamwe muri aba bicaye.

Icumba cubatswe mu bujyo bwa kijambere kirimo inzu za gakondo za kinyagwanda, zigaragaza umuco wa kinyagwanda, aho umwami yararaga ndetse muri iyo nzu harimo umukeka ndetse n'igiti mu muryango.

Imbuga nini irimo ibidara byicayemo abantu barimo barareba umukobwa urimo urabyina umuco wa kinyarwanda. Ibi bikaba ari uburyo bwifashishwa mu gususurutsa abantu mu gihe habaye igitaramo runaka cyane cyane ubukwe.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abahungu n'abakobwa. Abahungu bambaye imikenyero y'umweru n'udupira tw'icatsi. Imbere y'aho hari abakobwa bafashe uduti barimo baravuza ingoma, bambaye imkenyero y'umuhondo n'udupira tw'umweru. Bazengurutse umukobwa wasimbutse arimo arabyina umuco gwa kinyarwanda.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore bafite amasuka, bakoze umurongo barimo barahinga umurima, ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwaga no mu byaro aho abantu bahana amaboko kugira ngo babashe kuba bahinga umurima munini.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore, ririmo abashinzwe umutekano mu rwego gwa gisirikare, ndetse harimo n'umugabo n'umugore bapfukamye, bafashe agaseke barimo bagasuka mu nkono irambitse ku mabuye atatu mu nsi harimo umuriro, barimo barasukamo ibintu by'umweru.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo ,n'abagore bari ku rubyiniro aho barimo barabyina ibyerekeranye n'umuco nyarwanda. Izi mbyino zikaba zibyinywaga n'abantu babyigiye bifuza kuba bateza imbere umuco w'u Rwanda babikesha izi mbyino za kinyarwanda.

Umurima w'ibyatsi ukikijwe n'amashamba urimo umugabo upfukamye wambaye imyenda yacitse, ndetse n'igiti gihinye kiriho akadodo k'umukara, ndetse n'umwambi bikoze umuheto. Ubu bukaba ari uburyo bwakoreshwaga n'abakurambere mu mateka, aho bawukoreshaga igihe babaga bagiye gukora umurimo wo guhiga.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere ikaba ari inzu ibikwamo ibikoresho bya kera, ikaba yitwa inzu ndangamurage y'igihugu cy'u Rwanda. Aho ibikoresho byose byakoreshwaga mu gihe c'abami ndetse n'igihe cyegereje icyo abakoloni, byose bibikwa hano bigakurura abakerarugendo mu gihe baje kubisura.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagore bazengurutse umugabo urimo akandagiye mu muvure urimo ibitoki, ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa mu gukora inzoga ndetse n'imitobe ivaga mu bitoki.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore ;aho abagore bambaye imikenyero y'umweru bamwe muri bo bafashe ibisabo n'ibitebo, naho abagabo bambaye imyenda y'intore igizwe n'amacumu, n'ingabo ndetse n'imigara mu mutwe.

Umugore wicaye ahetse umwana afashe igitebo imbere y'inzu yubakishijwe ibyatsi, ndetse n'ibiti bizengurutse. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga mu gihe cya kera mu kuboha ndetse no gutunganya ibitebo.

Ikibo cyubitse gisa n'umukara ndetse n'umuhondo, aho ari igihangano gikorwa hifashishijwe intoki mu byatsi bazirikaho umushumi. Ubu bukaba ari uburyo bukorwa cyane cyane n'abagore, kandi bukaba ari uburyo bukurura ba mukerarugendo baza kureba umuco nyarwanda.

Umugabo wambaye kositimu, ufashe mu ntoki umuduri ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gucuranga. Iki kikaba ari igihangano gikoreshwa n'Abanyagwanda cyane cyane mu gihe cya kera. Ariko ubu kikaba cyifashishwa mu gucuranga indirimbo za kinyagwanda, igihe harimo harasusutswa abantu, hakoreshejwe umuco nyarwanda.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore, abagabo bunamye bafashe imiheha y'ibiti, bayishize mu kibindi cyuzuyemo inzoga gikikijwe n'amakoma, bazengurutswe n'abagore bafite inkoko ndetse n'abandi bana barimo barareba ibyo bari gukora.

Abagabo batatu barimo barareba umwana urimo urasekura ifu y'umweru mu isekuru, akaba ari uburyo bwakoreshwaga mu gihe cya kera, ndetse bukaba bunagikoreshwa ubu mu gutunganya ifu ikomoka ku binyampeke mu kwifashisha mu guteka ndetse no mu buzima bwa buri munsi.

Ishoka cyangwa indyankwi, ikaba ari igikoresho cyifashishwa basatura imbaho cyangwa se basatura inkwi. Kikaba ari igikoresho cyakoreshwaga kera ndetse kikaba kinagikoreshwa n'ubu mu bice by'ibyaro. Aho ari igikoresho gikorwa mu byuma kugira ngo kibashe kuba cyakwifashishwa mu gukora inkwi zifashishwa mu guteka.

Umugabo uhagararanye n' inka za kinyagwanda z' inyambo eshanu z' amahembe maremare, zambaye urunigi mu ijosi rw' umwe n' umukara, izi zikaba ari inka zifashishwa mu kugaragaza umuco wa kinyagwanda.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'abagabo n'abagore, aho abagore bari mo babyina umuco nyarwanda, ndetse ku ruhande rwa bo hari abagabo bari mo baravuza ingoma. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa mu gususurutsa abantu, hakoreshejwe imbyino gakondo za kinyarwanda.

Isambu nini y'ubwatsi butoshye, buhagazemo inka y'inyambo. Ifite iherena ku gutwi ndetse n'amahembe maremare. Izi zikaba ari inka ziboneka ahantu hake. Cyane cyane zikunda kuboneka i Huye. Aho umwami yari atuye. Zikaba na zo zisigasira umuco wa kinyarwanda.

Ibiganza bibiri by'umuntu bifashe mu ntoki itazi rivuye mu mashiga. Iri rikaba ari itazi rikugwaga mu mavuta iyo abantu cane bakoresheje ibiti barimo barateka cangwa se bagakoresha amakara barimo barateka . Ni ifu usangwa munsi, munsi y'amabuye cyangwa se munsi mu mbabura.

Amatsinda agizwe n'abagore ari mo ataramira abantu, hakoreshejwe imbyino y'umuco nyarwanda. Aho hari abicaye bafashe ibicuba, barimo baragaragaza umuco nyarwanda. ibi bikaba biri kubera ku rubyiniro aho bari mo barabyinira banasusurutsa abatumirwa.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagore bakuze, bafashe ibihingwa by'ibitoki barimo barabihagura bari kubijugunya mu muvure byavuyemo imineke. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga mu gukora imitobe y'ibitoki, ndetse no gukora urwagwa rugurishwaga mu giturage cane.

Itsinda ry'abagore bane, umwe uhagaze, abandi batatu bashize amaboko mu muvure urimo ibintu by'umuhondo. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga mu gukora umutobe w'ibitoki, cangwa se gukoramo ugwagwa mu muco wa kinyarwanda.

Umurima munini gusa nk'icatsi urimo inka ya kizungu, ndetse n'umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ingofero, urimo urakora ku mabere y'inka, ndetse anafite n'inkongoro hagati mu maguru ye arimo arakama inka.

Imbuga y'ibitaka n'ibyatsi, yicayemo umugabo w'umwirabura ufashe inkono y'itabi ndetse wikingiye ikintu gikozwe mu byatsi, ndetse anafite n'igiti kiziritseho ibuye, akaba anafite n'imikoma imuziritse ku kaboko.

Igikoresho cy'isekururo gikozwe mu biti, gikoreshwa mu ngo z'abantu, iki kikaba ari igikoresho cyakorwaga mu giti aho bafata igiti bakagicukuramo imbere bagakoramo umwobo, kikaba ari igiti cyifashishwaga mu gukora ndetse no guhungura ndetse no gusya bimwe mu mpeke byiganjemo ibigori ndetse n'amashaza.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo batanu. Bane muri bo bikoreye uruseke runini bakoresheje ibiti bibiri. Ku mpande, baziritse ku mpande barimo bagenda mu mbuga nini y'ibyatsi, berekeza imbere y'ikidara cyicayemo abantu benshi barimo barareba ibyo barimo gukora.

Inka eshatu, z'amahembe maremare, zirimo kurisha ubwatsi, zikaba ari inka z'inyambo, ziri kumwe n'umugabo wambaye amakoma, aziritseho imigozi, ndetse n'inkoni, akaba anambaye n'igishura kimurinda imbeho, ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga n'abashumba ba kera babaga bari kuragira inka.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'abagore bambaye imikenyero ya kinyagwanda, bafite uduti tubiri mu ntoki ndetse barimo baravuza ingoma bahagaze.

Abagabo bane bambaye imyenda ya kinyarwanda, igizwe n'imikenyero ndetse n'umugara mu mutwe bakaba bafashe mu ntoki amacumu, izi zikaba ari imbyino zigaragaza umuco nyarwanda ndetse zikaba zifashishwa mu gususurutsa abantu mu bitaramo.

Inka nyarwanda yo mu bwoko bw'inyambo. Iyi akaba ari ubwoko bw'inka nyarwanda zisigaye ari nke mu gihugu bitewe n'uko haje ubundi bwoko bw'inka butanga bimwe mu byo abantu bakeneye kurusha izi nka. Gusa izi nka ziracyafatwa nk'iziranga umuco nyarwanda, bitewe n'uko arizo za mbere zabayeho mu rwanda mu gihe cy'abami.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abahungu n'abakobwa bamanitse amaboko, abakobwa bambaye imikenyero z'umweru n'udupira tw'umukara ndetse n'urunigi mu ijosi, n'abahungu bapfukamye bambaye imikenyero z'umuhondo ndetse n'ubupira bw'umukara n'iminigi, ku ruhande rwabo hari ingoma. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga mu gususurutsa abantu hakoreshejwe imbyino za kera.

Umugozi w'uruhu uziritse ho ibyuma bifite utundi twuma nk'imbere ,bikaba ari igikoresho cyifashishwa mu kubyina umuco nyarwanda, aho kizirikwa mu maguru kugira ngo gikore umudiho igihe umuntu akubise ikirenge hasi.

Umugabo wambaye umukenyero wiyogoshe amasunzu, iyi ikaba ari inyogosho yo mu gihe cya kera mu Rwanda, aho wasangaga abami aribo bayiyogoshesheje. Iyi ikaba ari inyogosho igaragaza umuco nyarwanda ndetse inasigasira aho abanyarwanda bavuye.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'abagabo harimo babiri bahererekanwa agacuma, banakina umukino w'urusoro, uyu ukaba ari umukino nyarwanda aho uhuza abantu babiri barimo bimura uduka batuvana mu mwobo umwe batujyana mu wundi.

Umugore wicaye mu ngobyi urimo, uratwikirwa n’umugabo wambaye umukenyero, imbere y’inzu y’ibyatsi. Ibi bikaba ari ibikorwa byakorwaga mu gihe cya kera, igihe babaga bajyanye umugeni ku musore, aho hifashishwaga ingobyi mu gutwara umugeni bamuvana iwabo bamushyira ku musore.

Ibicuba bibiri:kimwe gihagaze, ikindi gifashwe n'umuntu ,igihagaze kikaba kirambitse ku nkoko iriho igitebo ndetse n'ikoma. Ibi bikaba ari ibikoresho byifashishwaga kera babikamo amata igihe babaga barangije gu gukama inka.

Igitebo kirambitse hasi, iki ni igihangano kiboheshwa intoki, kikaba ari kimwe mu bihangano nabyo bigaragaza umuco nyarwanda wa kera, kuko cyatangiye gukoreshwa mu myaka ya kera y'abami, kikaba ari igihangano cyifashishwaga mu gutwara ibiribwa mu gihe bagiye gusura abantu, cyangwa se babijyanye ku isoko.

Umugore wambaye imikenyero y'umutuku, wambaye n'urunigi rw'umweru ndetse aniteze akantu mu mutwe, ufashe ibuye mu ntoki ndetse aritsindagira ku rindi buye ririho impeke ry'ibigori ndetse imbere ye akaba ari inkoko ndetse no ku ruhande rwe hari agaseke. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga kera mu gukora ifu.

Igipangu gikozwe mu mbaho gitwikijwe amategura mu bujyo bugezweho, aho ari ubujyo bukoreshwa n'abantu, iyo bari kubaka amazu kugira ngo babashe kuba bakurura abantu, bitewe n'ubwiza butegwaga no kubakisha amategura.

Igipangu cyubakishijwe ibyuma hasi hari sima, ku gipangu hashushanyijeho ibihangano bigizwe n'amabara agiye atandukanye ya oranje, ikijuju ndetse n'umweru, bukaba ari ubugeni na bwo bugaragaza umuco nyarwanda, aho bwashushanywaga kera mu gihe bashakaga gutaka ahantu.

Intoki zikora mu mirya y'inanga. Inanga ni igikoresho cyakorwaga mu gihe cya kera， ariko n'ubu kikaba kikiboneka mu bibasha kugaragaza umuco wa kinyarwanda， ikaba ari igikoresho cya kinyarwanda cyakorwaga mu biti bazirikaho umushumi， kugira ngo habashe kuba hakorwa indirimbo zisusurutsa abantu.

Itsinda ry'abantu, rigizwe n'abagabo n'abagore, aho abagore bambaye imikenyero isa n'umutuku, ndetse abagabo bambaye imikenyero y'umukara, harimo umwe ufashe icumu n'ingabo, ndetse n'undi wambaye imyenda y'umweru, ufashe akabindi mu ntoki, ndetse n'urunigi, bose bakaba bahagaze imbere y'ibidara bimanitse mu mbuga y'ubwatsi.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore, aho arimo abagore bane bikoreye ibitebo, bambaye udushumi mu mutwe, ndetse bahetse n'uduseke, abagabo bakaba babari inyuma, barimo bakoma amashyi, bambaye imikenyero ya kigabo, ndetse n'imigara mu mutwe.

Itsinda ry'abagore batatu n'umwe uhagaze bari mo barakora mu muvure. Ubu ni uburyo bwifashishwa mu gukora umutobe w'ibitoki, aho aba ari ibitoki baba bamanje gutara. Ubu bujyo kandi akaba ari bwo buvamo umutobe ndetse n'urwagwa abantu benshi bakunda kunywa, ndetse bikaba biri mu muco nyarwanda.

Inka z’inyambo ebyiri, zifite amahembe maremare, zihagararanye n’abashumba babiri, bambaye imikenyero n’ingofero. Umwe muri bo ufite inkoni. N'ikiraro cy’ibitaka, kirimo n’izindi nka z’inyambo, bafite inkuyu, barimo barasiga izo nka.

Ibase y'umuhondo irimo impeke z'amajeri, ingano ndetse n'ibigori, byifashishwaga mu gukora amafu y'igikoma kugira ngo hagabanye ikibazo cy'imirire mibi mu bana, ndetse n'abantu bakuru kubera ko zigiraga intungamubiri.

Indabo z'umutuku zifite utubuto ndetse n'ibibabi by'icyatsi, bikaba ari indabo ziboneka mu mashamba ndetse no mu bihuru, ariko zikaba zinakunda gukoreshwa mu gutaka ahantu hagiye hatandukanye.

Ibihangano by'uduseke bikaba ari ibihangano bikorwa hifashishijwe intoki, bikaba ari ibihangano bigaragaza umuco w'Abanyarwanda, ndetse bikaba ari ibihangano bishigwa mu masoko ndetse bigakundwa na ba mukerarugendo baje gusura u Rwanda.

Itsinda ry'abagabo bambaye imyenda ya kinyarwanda ，bafashe amacumu n'ingabo mu ntoki ndetse n'imigara mu mutwe， bakaba barimo barabyina umuco wa kinyarwanda. Ibi bikaba ari ibikorwa bikorwa mu gihe harimo haraba igitaramo cyangwa se barimo barerekana umuco wa kinyarwanda.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore, bahagaze ku rubyiniro bari mo babyina umuco nyarwanda. Aho umugore yikoreye agaseke anateze amaboko nk'inyambo, bimwe mu bigaragaza umuco nyarwanda.

Igikoresho citwa inanga, iki kikaba ari igikoresho cifashishwaga mu gukora umuziki cane cane uwa kera. Iki kikaba ari igikoresho gikogwa mu giti baziritseho imigozi, bakayiregera cane kugirango ibashe kuba yakora umuziki.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore bambaye imyenda za kinyagwanda, aho abagore bambaye imikenyero z'ubururu ndetse n'ubupira bw'umutuku. Abagabo bakaba bambaye nk'intore n'amayogi bakaba barimo barabyinira imbere y'inzu imeze nk'ingoro y'umwami wa kera.

Amaburo abiri ashinze mu tuntu tw'umuhondo birambitse kuri sima. Aya akaba ari amaburo yifashishwa mu gufunga ibintu bigiye bitandukanye, aho ibyuma bigurwa mu maduka acuruza ibikoresho byubaka.

Imashini igezweho yifashishwa mu gufotora ndetse no gusohora impapuro zanditseho amagambo runaka. Izi zikaba ari imashini zikoreshwa n'ibigo bya Leta ndetse n'abigenga mu gihe bifuza gusohora zimwe mu mpapuro zanditseho bimwe mu byo bifuza gukora. Aho bazihuza na mudasobwa zabo bakoresheje insinga bacomeka muri zo.

Igikoresho cyitwa ipensi .Iki kikaba ari igikoresho gikoreshwa mu bwubatsi cyane cyane mu gihe bashira umuriro mu nzu .Aho usanga cyifashishwa mu kuzirika intsinga ndetse no gufata intsinga mu gihe ushiramo umuriro atinya ko zishobora kuba zamutera ikibazo mu gihe zaba zimukozeho.

Akuma k'umukara gafite ikirahure cyo kureberamo imibare, gafite n'utuburo dutatu kamwe k'umweru , ak'umutuku ndetse n'ak'icatsi. Ndetse k'uruhande rwa sikirini, cyangwa se ikirahuri hakaba hari utundi tubuto tubiri.

Imirimo yo gukora amakositara bikorerwa iruhande rw'inzu zubatse mu buryo bwa kijyambere， kandi zikaba ari inzu zubatse mu buryo bw'umudugudu w'icyitegererezo. Iyi ikaba ari gahunda ya Leta ifasha abaturage kuva mu manegeka， bagatura ahantu hafite ubuziranenge.

Itsinda ry'abantu batatu bagizwe n'abagabo bambaye ingofero zabugenewe ahantu bubakira, bahagaze imbere y'ikiraro kinini. Iki ng'iki kikaba ari ikiraro cyubakwa hakoreshejwe imbaraga za leta mu kugira ngo hahuzwe uduce tugiye dutandukanye mu gihe hariho ikibazo cy'umugezi uba utera ibibazo mu gihe abantu bambuka.

Umutirigwa gubatse ku buryo bwa kijyambere ugizwe n'amagorofa ane ,ufite ubusitani imbere buteye mo ibiti bigiye bitandukanye, aho ari imiturigwa zubakwa na leta kugira ngo zibashe kuba zacumbikira abantu benshi mu hantu hatoya.

Umuturigwa wubatswe mu buryo bwa kijyambere. Ukaba ari umutorigwa wubakishijwe ibirahuri ,ndetse n'ubuhanga bukomeye . Iyi ni miturigwa ikunze kwifashishwa na minisiteri ndetse n'izindi nzego za leta . Ikaba yifashishwa nk'ibiro, ndetse n'imiturigwa ikunzwe kuba yubatswe mu mijyi mu rwego rwo guteza imbere imijyi ndetse n'ibiyikikije.

Imbaga y'abantu irangajwe imbere n'abagabo bambaye utujire tw'icyatsi, bari mo bagenda ku kiraro. Ibi bikaba ari ibiraro byubakwa mu biturage hifashishijwe imbaraga za leta, kugira ngo habashe kuba habaho ubuhahirane hagati y'ibiturage ndetse n'abantu, mu gihe habaye ho ikibazo cy'imigezi ifite amazi.

Inzu nini yubakishijwe amatafari ndetse n'amabati y'ubururu, ifite umusaraba ku rusenge rwayo, ikaba ari inzu isengerwamo n'abakatoliki n'abakirisitu b'abakatolike iruhande rwayo hakaba hari abantu bari kubaka iyo nzu.

Inzu y'amagorofa abiri imbere ya yo hakaba hari abagabo batatu ndetse n'ikinyabiziga cy'igare. Iyo nzu imbere yayo hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Iki kiraro cyubatswe hejuru y'umugezi utemba，iki kikaba ari ikiraro cyubakwa hakoreshejwe imbaraga za Leta mu kunoza imihahirane hagati y'imidugudu ndetse n'abantu ku giti cyabo.

Inzu yubatswe mu bujyo bwa kijambere y'umweru, ifite amatafari mu mpande, ifite jaride iruhande ndetse ikikijwe n'igipangu c'ibyuma ndetse n'umuhanda gw'ibitaka, izi zikaba ari senyenge zifashishwaga mu kurinda urugo abasambo.

Inzu y'urusengero yubatswe mu buryo bwa kijyambere. Izi zikaba ari inzu zubakwa kugira ngo habashe gufasha abakirisitu ndetse n'abandi bantu bifuza kwegera Imana， kugira ngo babashe gusenga mu gihe cyose bifuza， haba mu mvura ndetse no mu gihe cy'izuba.

Icyumba cy'amashuri cyubatswe mu buryo bwa kijyambere, kikaba ari icyumba cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo bafata amasomo. Ibi bikaba bibafasha kuba badabangamirwa n'ihindagurika ry'ibihe mu gihe barimo barafata amasomo yabo.

Inyubako y'umuturirwa, igizwe n'amagorofa atatu, ifite imbere ubusitani bwiza ndetse ikaba iparitse ho imodoka imbere. Izi zikaba ari inyubako zubakwa kugira ngo zibashe kugabanya ubucucike bw'abantu, kugira ngo babashe kuba bakorera ahantu hato, mu mwanya muto.

Icumba kirimo utubati turambitseho mudasobwa ndetse n'imashini zigezweho, zifashishwaga mu gusohora impapuro ndetse no kuzandikaho; ku ruhande gwazo hakaba hari intebe y'umutuku, ubu bukaba ari ubujyo abantu batondeka ibiro byabo, mu gihe bashaka gutanga serivisi zerekeranye na Mudasobwa.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore bambaye ubujire bw'icyatsi ,n'ingofero z'umweru biganjemo abakozi bubaka ndetse n'ushinzwe umutekano w'umudaso wambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero. Bakaba bahagaze mu mbuga y'ibitaka iri imbere y'amashuri yubatswe mu buryo bwa kijyambere.

Inzu yubatse mu bujyo bwa kijyambere, ifite ubusitani imbere ikaba ari urusengero rwifashishwaga mu gusenga Imana Rurema. Izi zikaba ari inzu zubakwa kugira ngo abantu babashe kuba basenga mu gihe cyose bifuza.

Inzu ebyiri zisa zubakishijwe amabati y'ubururu, zisize n'irangi ry'umweru, zikikijwe n'igipangu cy'umweru, ndetse ku ruhande rw'icyo gipangu hari indabo z'umuhondo, ndetse n'umuhanda w'ibitaka ukoreshwa n'imodoka.

Amazu menshi gubatswe mu buryo gusa, gafite imbere ikigega, ndetse imbere y'aho hakaba hari imbuga y'ibitaka. Aga gakaba ari amazu gubakwa na Leta, kugira ngo gabashe kwakira abatishoboye batuye mu manegeka.

Inzu yubakishijwe amatafari, ifite akarongo k'umweru n'amadirisha g'umweru garimo amarido, imbere yayo hakaba hari igitoki ndetse n'ubusitani bw'icatsi bwegeranye n'akayira k'ibitaka kanyuragamo imodoka.

Uruja n'uruza rw'abantu rugizwe n'abagabo n'abagore, bahagaze imbere y'inzu yubatswe mu bujo bwa kijyambere, ikaba ari inzu ifatwa nk'iyo basengeramo abakirisitu, bukaba biba ari uko hagiye kuba ibirori iyo baziritseho akagozi imbere.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ku mpande hari ibirahuri n'amabati g'umutuku, yubatswe mu buryo bugezweho, ifite igipangu c'ubururu ndetse no ku mu ryango cubakishijwe amabuye. Imbere y'aho hari kugenda umuntu wambaye agapfukamunwa.

Uruja n'uruza rw'abantu bahagaze imbere y'inyubako yubatse mu bujyo bwa kijyambere ariyo umusigiti. Iyi ikaba ari inzu yifashishwa n'abantu bo mu mujyango w'abayisilamu mu gihe bayifashisha mu gihe cyo gusenga. Zikaba ari inzu zubakwa kugira ngo zifashe abo banyamujyango gusenga nta nkomyi.

Inzu yubatswe mu bujyo bugezweho ifite akantu k'amatafari hejuru ndetse n'inkuta zigizwe n'amabuye n'imiryango y'icyatsi, imbere yaho hakaba hari imbuga nini y'ibyatsi ndetse hakaba hahagazemo abana babiri. Ubu bujyo bwo kubaka aga mazu, bukaba ari ubujyo bukorwa kugira ngo habashwe kwirinda kuba abajura batobora inzu.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, ifite umuryango n'amadirishya asize irangi ry'umweru, imbere hari imbuga y'ibitaka iparitsemo umugabo wambaye ikabutura, ndetse n'agapira k'ubururu wicaye ku igare.

Inzu yubatswe mu bujyo bwa kijyambere, ifite amabati y'umutuku ndetse n'inzugi n'amadirisha bifisize amarangi y'umweru. lmbere yayo ifite imbuga yumye itagira ibyatsi ndetse zikaba ari inzu zifashishwa mu kwiga.

Umurima munini urambitsemo imifuka y'umweru, uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye imbere y'inzu zubatswe mu buryo busa. Ndetse imbere y'iyo nzu hakaba hari amapoto y'amashanyarazi, ndetse izo nzu zikaba zirimo abantu barimo barasohoka mu muryango.

Uruja n'uruza rw'abantu n'imodoka binyura imbere y'inyubako y'isoko ry'ibiribwa rya Musanze. Iyi ikaba ari inzu aho abacuruzi bahuriramo n'abaguzi, aho abacuruzi bazana ibiribwa ndetse n'abaguzi bakahabona ibiribwa mu gihe bahinduranya amafaranga n'ibicuruzwa.

Inyubako ndende zigera kuri eshanu zigizwe n'amagorofa atatu, zifite imihanda imbere yazo ndetse n'ubusitani bwumye burimo uduti tugiye ari dutoya, ndetse ukaba hari abantu barimo baragenda ku muhanda.

Umuhanda gwa kaburimbo gufite aho abanyamaguru bagenderaga, harimo ibintu bigiye jy'ibinogo ndetse hubakishijwe amabuye g'amapave, iruhande gwagwo hari ibipangu byubakishijwe amatafari gahiye gariho senyenge hejuru ndetse muri byo bipangu hateyemo ibimera bigiye bitandukanye.

Amazu gubatswe mu bujyo gugezweho, gafite amabati g'umutuku ndetse gubakishijwe n'amatafari, gafite pasiparume imbere, ndetse n'ikigega kiri hejuru ku byuma cy'umukara, imbere yacyo hakaba ari imbuga nini y'ibitaka.

Abatwazi b'ibinyabiziga bya moto ari bo abamotari, baparitse imbere y'inyubako ndende yitwa Goyiko, akaba ari isoko ryifashishwa n'abacuruzi bagiye batandukanye, aho basanga mo ibicuruzwa bigiye bitandukanye baha abakiriya ba bo.

Abagabo babiri bicaye inyuma y'urugo rusize amarangi y'umweru n'ubururu, akaba ari inzu ituriye umuhanda ndetse akaba ari inzu y'umuntu uhaturiye.

Itsinda ry'abaturage rihagaze ku kiraro cyubakishijwe ibyuma, bikaba ari ikiraro cyubakwa na leta, mu kugira ngo hanozwe imikoranire ndetse n'imihahirane, hagati y'abaturage bari mu turere dushobora kubateza ibibazo, mu gihe haba habaye amazi menshi.

Inyubako y'amagorofa abiri ifite ahantu hatwikiye ho kugenda n'amaguru yifashishwa mu gihe abanyeshuri barimo kwiga mu mashuri ya kaminuza. Izi zikaba ari inyubako zubakwa na leta mu gutera inkunga kaminuza kugira ngo abanyeshuri babone aho biga.

Umugabo uhagaze ku kiraro cyubatswe mu bujyo bwa kijyambere cy'ibyuma, akaba ari ibiraro byubakwa hakoreshejwe imbaraga za leta mu kugira ngo abaturage babashe guhahirana hagati y'imidugudu igiye itandukanye, ndetse abaturage babashe kuba bagera mu duce tugiye dutandukanye.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere. Ikaba izengurutswe n'ibiti birebire ndetse n'ubusitani bwiza. Ikaba ari inzu yifashishwa cyane cyane nk'ubwiherero, cyangwa se aho abantu baruhukira mu gihe barangije gukina cyangwa se bari mu nama.

Itsinda jy'abana batatu bahagaze ku kiraro cyubakishijwe ibiti, ku ruhande hari ibyuma by'umutuku byubatswe mu ishyamba. Iki kikaba ari ikiraro cyubakwa kugira ngo abaturage babashe kubona uburyo bahahirana ndetse basurane.

Icumba cubakishijwe amatafari gagezweho harimo icyuma gifite umugozi, ndetse harambitseho igishashi c'umukara imbere yaho hari umugabo wunamye afashe ku kibaho cyubatswe nk'igitanda ndetse n'intebe, inyuma ye hakaba hari izindi ntebe z'umutuku birambitse no kuri sima y'umutuku.

Uruja n'uruza rw'abantu bahagaze imbere y'inyubako yubatswe mu buryo bwa kijambere, ikaba ari inyubako y'urusengero rw'abakirisitu ba gatolika. Bakaba ari abantu bambaye imikenyero ndetse n'abagabo bambaye amakositime bahagaze imbere y'ibitoki, bikaba ari ibintu biba igihe hagiye kuba igitaramo ndetse n'imihango.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa. Barimo kugendera ku kiraro cy'ibyuma cyubakwa na leta, hagamijwe kugira ngo abaturage babashe kuba bahahirana, mu gihe ahantu batuye hari ubuhaname. Ndetse hateye ikibazo kugira ngo babashe kuba bagera, mu tundi duce.

Ifishi itangwa na Sako cyane cyane Sako z'umurenge. Iyi ikaba ari ifishi yo gusaba serivisi z'Umurenge Sako hifashishijwe ikoranabuhanga. Iyi ikaba ari ifishi yuzuzwa n'umukiriya ushaka ko ahabwa serivisi z'Umurenge Sako hakoreshejwe ikoranabuhanga kugira ngo horoshwe akazi.

Uruja n'uruza rw'abantu batonze umurongo, bagana aho bashikirira bimwe mu byo bagiye guhabwa n'abayobozi ba bo. Ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwa n'imiryango yigenga ndetse n'abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye, mu gihe bagiye guha abaturage bimwe mu bikoresho cyangwa se mu byo bazifashisha mu buhinzi bwa bo.

Itsinda jy'abantu bagizwe n'abagabo n'abagore harimo umugore ufashe indangururamajwi, uhagaze imbere ya bafure urimo uravuga. Ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwaga igihe habaye inteko z'abaturage, kugira ngo ngo babashe kugeza ibibazo byabo ku bayobozi.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo ndetse n'umugore umwe, bari mu cumba c'amatafari aho harimo abagabo bambaye iroza aribo imfungwa ,ndetse imbere yaho hakaba hari umugore wambaye igikanzu, ndetse n'undi mugabo wambaye igikanzu, bari mo barababwira ibintu bigiye bitandukanye.

Itsinda ry'abantu batonze umurongo ryiganjemo abagabo n'abagore harimo abacecuru bafashe inkoni. Iri tsinda rikaba rihagaze imbere y'inzu igaragara nk'inzu y'ibiro.

Abantu babiri bicaye ku kinyabiziga cya moto bambaye kasike z'umutuku, umu motari utwaye akaba yambaye akajiri k'umutuku. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa mu mijyi, irimo nka za Kigali ikaba ari imigi igizwe n'imisozi cyane. Akaba ariyo mpamvu hakunda gukoreshwa iki kinyabiziga cya moto.

Itsinda ry'abantu bahagaze ku binyabiziga bigiye bitandukanye. Harimo abanyonzi bahagaze ku magare, harimo umunyonzi wambaye ishati y'amabara ndetse n'ingofero y'abafundi. Ndetse imbere yabo hakaba hari umumotari wicaye ategereje abagenzi. Ndetse n'imodoka ziparitse imbere y'inyubako.

Ubwato bw'abagenzi bugendera hejuru y'ikiyaga gikikijwe n'umusozi munini. Ubu bukaba ari ubwato bwifashishwaga mu gutwara abantu ndetse n'ibintu babavana ku mwaro babageza ku wundi.

Uruzi rw'umugezi utemba rukikijwe n'ibiti, ndetse muri urwo ruzi hakaba harimo ubwato butwara abantu n'ibintu, bukaba burimo abantu bagiye batandukanye ndetse n'umutwazi warwo ufite ingashyi y'igiti.

Ikinyabiziga cy'indege cya sosiyete y'u Rwanda cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, biva mu Rwanda bajya ahandi. Bikaba ari uburyo bw'ubutwazi bw'ibintu n'abantu bwihuta kandi bukora vuba. Ibi kandi bikaba bifasha abanyarwanda kuba bagera mu bindi bihugu byoroshye ndetse n'abazungu bakaba bagera mu Rwanda mu buryo bworoshye.

Umugabo wambaye ikoti n'ipantaro y'umukara, wicaye ku kinyabiziga cyifashishwaga mu gutwara abagenzi, aho cyifashishwaga mu gutwara umugenzi umwe kikaba kitwa "moto" giparitse ahantu h'ibitaka.

Indege ya sosiyete y'igihugu c'u Rwanda yifashishwaga mu gutwara ibintu n'abantu, babavana ahantu babajyana ahandi, cane cane babavana mu Rwanda babajyana mu bindi bihugu. Ikaba ari ubujyo bwifashishwaga hakoreshejwe kugendera mu kirere.

Itsinda ryabantu rigizwe n'abagabo batwara ibinyabiziga bya moto baparitse ku murongo umwe. Bamwe bakuyemo ingofero zabo z'akazi, bakaba bashungewe nabantu bagizwe nabagabo barimo barareba ibyo barimo gukora.

Umurima munini gurimo ibyatsi bisaga umuhondo ku ruhande hariho ibyatsi bisa nk'icatsi ,byegeye umuhanda gw'ibitaka gurimo imodoka itwaye ibihingwa byo kujya bitandukanye byiganjemo ibikoreshwa mu gutegura imboga ari byo karoti, intoryi, inyanya n'ibindi bigiye bitandukanye.

Itsinda ry'abantu batanu bagizwe n'umugore, bahagaze imbere y'ibicuruzwa bigiye gushirwa mu ndege, igiye kubitwara ibivana mu Rwanda ibijyana mu tundi duce tw'isi, ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa mu gutwara ibintu babivana mu Rwanda babijyana ahandi hakoreshejwe ingendo zo mu kirere.

Urujya n'uruza rw'abantu bagenda imbere y'imodoka zitonze umurongo muri gare cyangwa se aho bafatira imodoka, binjira mu mamodoka abiri ari yo bita kwasteri. Izi zikaba ari imodoka zifashishwa mu gutwara abantu cyane cyane mu mijyi, zibavana mu mijyi zibajyana mu ntara.

Imodoka nini y'umweru irimo amabara y'icyatsi yifashishwaga mu gutwara abantu, yegeranye n'akamodoka gatoya k'umweru kazwiho gutwara nako abantu kabavana ahandi ariko mu bujyo bwihariye.

Uruja n'uruza rw'abantu bahagaze imbere y'amamodoka yifashishwa mu gutwara abantu, ndetse hakaba harimo imodoka imwe ifunguye imiryango hahagazemo umuntu wambaye umupira wa oranje.

Igikamyo kinini c'ubururu kikiri ku benura amabuye g'umukara mu bwatsi mu bwatsi bw'icatsi, ibi bikaba ari ibikamyo byifashishwaga gutwara ibintu bigiye bitandukanye birimo imisenyi, amabuye n'ibindi bigiye bitandukanye bakoreshaga mu kubaka amazu.

Urujya n'uruza rw'abantu rwiganjemo abagabo n'abagore, ruri ahantu haparikwa imodoka bita muri gare, aho imodoka zifatira abagenzi kandi zikanabasiga , akaba ari ahantu hifashishwa n'ingeri zigiye zitandukanye.

Abagabo babiri bahagaze ku rubyiniro hagati yabo hakaba hari umugore ufashe igare arimo ararireba. Ubu bukaba ari uburyo bukoreshwa mu guha ibihembo abantu bakinnye imikino y'amahirwe, batsindira ibihembo bakaba babihabwa ku rubyiniro imbere y'abantu bose.

Uruja n'uruza rw'abantu barimo baragenda, ndetse n'abandi batonze umurongo binjira mu nzu zifunguye imijyango, ziri ahantu haparitse imodoka ebyiri nini n'izindi ziri inyuma, harimo imwe y'ubururu ifite amarangi g'ubururu n'umweru ndetse n'indi y'umweru, zikaba ari imodoka zifashishwaga mu gutwara abagenzi zibavana mu gace kamwe zibajyana ahandi.

Imodoka nini ya bisi y'amabara g'umweru gavanzemo n'icyatsi, irimo iragenda mu muhanda gwa kaburimbo, inyuma yayo hakaba hari moto ebyiri zihetsa abantu z'umutuku.

Ikiyaga giparitse mo ubwato bwiganje mo abarobyi ndetse n'ubukoresha moteri. Bukaba buhagaze mo abantu biganje mo abashinzwe umutekano ndetse n'abarobyi, bakaba bafite igiti barimo bama bakoresha bagashya.

Uruja n'uruza rw'abantu bahagaze bari no kugenda hagati y'amamodoka menshi g'umweru gashinzwe gutwara abantu, gabavana mu bice by'Igihugu gabajana ahandi. Harimo n'imodoka nini za litiko z'amabara g'icatsi n'umweru.

Uruja n'uruza rw'abantu bagenda iruhande rw'imodoka za orange n'umweru, zitonze umurongo imbere y'inzu, inzu ndende yubatswe mu bujyo bwa kijyambere, imbere y'umuhanda aho abantu barimo baranyura.

Bisi y'umukara yanditseho amagambo y'umweru avuga gusura u Rwanda iparitse hasi hari amabuye y'amapave ari, izi bisi zikaba zikoreshwaga mu gutwara cane cane abakinnyi babavana ku bibuga byabo babajyana aho barara.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'abagabo, bambaye imyenda ya siporo y'umweru n'umukara, harimo umugabo wambaye ingofero n'agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, bahagaze mu kibuga gikinirwamo umukino w'amaboko wa vole, inyuma yaho hari inshundura bakoresha bakina uwo umukino.

Icyanya nyaburanga kiboneka muri Hoteli. kigaragaraho amazi bogeramo azengurutswe n'ibiti hamwe n'intebe baryamaho. Aho abantu baza kuruhukira bakanoga mu gihe cyo kuruhura mu mutwe. Aha hantu hazengurutswe n'ubusitani ni heza cyane bw'amoko menshi y'ibiti.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abana batatu bafite amagare, babiri muri bo barimo barayanyonga, umwe muri bo akaba arishize mu kirere, bakaba bambaye utwenda tubafashe, tukaba ari utwenda tubafashaga kunyonga ayo magare nta bibazo bahuye nabyo.

Iciyaga cinini kirimo ubwato burimo abantu babiri ndetse imbere y'ubwo bwato burimo abo bantu, hakaba hari abandi bantu batanu harimo batatu barimo basimbukira mu mazi bambaye imyenda yo kogana, ndetse ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa n'abantu bashaka kwiga koga.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo bari ahantu h'umuhondo hari fire ikoreshwaga mu gukina umukono gwa tenisi, harimo umugabo wasimbutse afite agakoresho gakoreshwaga mu gukina uyu mukino, agiye gutera agatenesi k'icatsi. Inyuma yaho hakaba hari ibyapa bigaragaza ibirangantego by'igihugu c'u Rwanda kuko bagaragaza ko bahafunguye.

Idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda rigizwe n'amabara ;y'ubururu, n'umuhondo ,n'icyatsi ,akaba ari igitambaro kimanikwa hagamijwe kugaragaza ko igikogwa ari icya leta kikorera aho hantu.

Itsinda ry'abantu biganjemo urubyiruko barimo barakina umukino w'amaboko bita vore boro(volleyball). Bashagawe n'abantu benshi barimo barabafana. Bakaba harimo abantu batatu basimbutse umwe muri bo akaba agiye gutera baro.

Urushundura ruziritse ku giti mu buryo butambitse. Uru rushundura, rukaba ari urushundura rwifashishwa mu gukina umukino w'amaboko witwa voreboro. Uyu mukino, ukaba ari umukino uhuza abantu bakina bakoresheje amaboko, ndetse ukaba unakunda gukinwa cyane cyane mu buryo bwo kwishimisha, iyo abantu begereye ahantu hari amazi.

Itsinda ry'abantu batatu bagizwe n'abategarugori, bari mu kibuga gikinirwamo umukino w'amaboko bambaye imyenda ya siporo. Babiri muri bo, bakaba bafashe umupira ukinwa hifashishijwe amaboko. Barimo banyura mu tuntu tw'umutuku.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'abagabo barimo bakora amarushanwa ku kinyabiziga cy'igare, bambaye ingofero ndetse n'imyenda ibafashe. Inyuma y'aho hakaba hari imodoka y'umukara, irimo irabagenda inyuma ndetse abo bantu bakaba barimo barakorera ibyo byose mu muhanda wa kaburimbo.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere yitwa Kigali Arena, ikaba ari inyubako ikoreshwa mu myidagaduro, aho ibasha gukoreshwa mu gihe habaye imikino y'amaboko, ndetse ikaba inakoreshwa igihe habaye ibitaramo .Ikaba ari inyubako yubatswe kugira ngo babashe guteza imbere siporo mu Rwanda.

Umugore wambaye agapira k'umweru n'agakabutura gatoya n'inkweto z'umweru, ufashe mu ntoki icumu ahagaze ku kibuga c'umutuku, akaba ari umukino wa aterete, aho bafata icumu bakarijugunya hagatsinda uwabashije kurijugunya kure cane.

Imodoka y'ubururu irimo iranyura mu byondo ibitatsa. Iyi ikaba ari imodoka ikoreshwa mu masiganwa mu Rwanda aho zigenda zizenguruka mu baturage bitewe n'aho bazibwiye ko zigomba kuzenguruka. Aya akaba ari amarushanwa abera mu gihugu cy'u Rwanda aterwa inkunga n'abantu bagiye batandukanye. Uyu nawo ukaba ari ubwoko bw'imikino ibera mu Rwanda.

Abagabo babiri bafite mu ntoki imipira y'amaguru ndetse n'uw'amaboko barimo barasuhuzanya. Bahagaze imbere y'imyambaro ikoreshwa muri siporo ari yo imipira amakabutura, ndetse n'inkweto. Hakaba hari n'amacumu yifashishwa mu mikino yaterete.

Abagabo babiri umwe wirabura n'undi w'umuzungu, bakaba barimo barakina umukino w'amaboko witwa Basiketi. Uyu ukaba ari umukino bakina hifashishijwe amaboko ndetse banatsindana mu tubase tuba turi hejuru baba bamanitse. Uyu ukaba ari umukino uhuza abantu benshi mu bihugu bigiye bitandukanye ,cyane cyane abanyarwanda bahura n'abandi bahandi.

Umukobwa wambaye akajire ndetse n'ikabutura, usimbukiye mu mucanga. Akaba ari umukino ukorwa kugira ngo habashe kugaragara impano zirimo gusimbuka ndetse no kwirukanka. Ibi bikaba ari ibikorwa bikorwa kugira ngo habashe gutezwa imbere umukino wa siporo.

Abagabo babiri b'abazungu barimo barasuhuzanya ,bafashe mu ntoki bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gukina umukino witwa tenisi. Bakaba bahagaze mu kibuga nacyo cyifashishwa mu gukina tenisi.

Abakinnyi bashira baro mu kizeru kiziritseho inshundura ,mu mukino bakina hakoreshejwe amaboko witwa basiketi. Ubu bukaba ari uburyo bukoreshwa muri uyu mukino igihe umukinnyi agiye gutsinda, aho baro iba isabwa kunyura muri iki kizeru kugira ngo ubone amanota.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo, bambaye amasengeri ndetse n'amakabutura bya siporo, barimo barakina umukino gw'amaboko gwa basiketi, barimo batsinda mu gapaniye kari hejuru gafite udushumi, uyu ukaba ari umukino gukinwa hakoreshejwe amaboko, gufata baro, ukajugunya mu kazero kariho inshundura.

Intoki ebyiri z'abantu basimbutse hejuru yabo hari umupira wa basikete, ndetse imbere y'umumupira wa basikete hari ipoto ririho paniye iriho imishumi, akaba ariyo bakoreshaga bari gushiramo iyi baro, iyo bashaka gutsinda muri ugo mukino gw'amaboko.

Itsinda jy'abantu rigizwe n'abagabo n'urubyiruko, abahungu n'abakobwa, hariho abagabo babiri barimo barareba umwana w'umuhungu wambaye akajire k'ubururu n'ikabutura urimo urajugunya ikibuye kimeze nka sede ku kibuga cy'ibyatsi byumye, ubu akaba ari umukino waterete aho bajugunya ikidisiki, uwakijugunye kure akaba ari we watsinze.

Uruzitiro rw'ibyuma rukikije ikibuga cy'ibitaka, kirimo umuhungu w'umusore ufashe agatenesi mu ntoki, ukuboko kw'iburyo ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gukina umukino w'amaboko, witwa tennis. Uyu ukaba ari umukino ukinwa n'abantu babiri bahererekanya agapira.

Abagabo b'abirabura bahagaze mu nzu y'imyidagaduro, aho bagaragaza imyenda yabo yanditseho igihugu cy'u Rwanda. Aba bakaba ari abakinnyi bakina umukino w'amaboko wa Basiketi bolo, aho baba bahagarariye u Rwanda mu gihe rurimo rurakina n'ibindi bihugu.

Itsinda ry'abantu bagizwe n'urubyiruko, bambaye udupira tw'ubururu n'umukara bari mu kibuga gikinirwamo umukino w'amaboko, bafite imipira ikinwa hakoreshejwe amaboko. Barimo barareba umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara urimo urabaha amabwiriza, ndetse icyo kibuga kikaba kizengurutswe n'inzu ndetse n'igipangu.

Akayira k'ibitaka karimo n'amabuye gakikijwe n'ibyatsi by'indabo ndetse n'igipangu utu tukaba ari utuyira twifashishwaga mu giturage kugira ngo abaturage babashe kuba bahura ndetse babashe kuba bajyana no ku mazu gabegereye.

Akayira k'ibitaka gakikijwe n'ibihuru gahagazemo umuntu. Akaba ari utuyira dusanzwe tuboneka ahantu ho mu byaro, twifashishwa mu kunyura ahantu hari imisozi minini ndetse no mu gihe habayeho ikibazo cy'amazi. Nitwo tuyira dukunda kwifashishwa mu gihe harimo ibyo bibazo.

Inzu yubatse ku muhanda iriho uruja n'uruza rw'abantu, barimo bagenda iruhande gw'amamodoka aparitse gagiye gatandukanye, gegarimo n'amamodoka gifashishwaga mu gutwara abantu mu bujyo bwihariye. Amamodoka gakaba gaparitse mu bitaka iruhande gw'ikigega cy'umukara, kimanitse hejuru mu byuma.

Umuhanda gw'umukara gusizemo amarangi g'umuhondo n'ag'umweru, ufite uruhande rw'abanyamaguru rwubatswe n'amabuye y'amapave. Ubu bukaba ari ubujyo bwubakwa na Leta kugira ngo abantu babashe kuba babona aho banyura, ndetse n'imodoka zibashe kuba zabona aho zinyura mu bujyo bworoshe.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo uturongo tw'umweru, ku ruhande wubatse sima y'aho abanyamaguru bagenderaga, ukaba ari umuhanda wubakwa hifashishijwe inkunga ya leta kugira ngo abaturage babone uburyo bagenda.

Inzira y'abanyamaguru y'ibitaka ikikijwe n'ibihuru. Iyi ikaba ari inzira iboneka cyane cyane mu bice by'ibyaro. Ndetse, izi ni inzira zikoreshwa n'abaturage kugira ngo habashe kuba habaho imihahiranire hagati y'abantu baturanye cyangwa se batuye mu misozi.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere, yegeye umuhanda, ikaba ibarizwamo isoko ry’inyongeramusaruro n’ubujyanama k’ubuhinzi. Iyi ikaba ibamo abajyanama b’ubuhinzi, bifashishwa n’abaturage mu kwiyungura ubumenyi mu byerekeranye n’ubuhinzi no kongera umusaruro w’ibyo bahinga.

Umuhanda gubatswe mu buryo bwa kijyambere. Iruhande rwawo hari ibipangu, ndetse hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru, kubakishijwe amabuye y'amapave. Iyi ikaba ari imihanda yubakwa na Leta kugira ngo ibashe gufasha ingendo.

Icyirenge cy'umuntu gikandagiye kuri sima yangiritse, irimo ibinogu, iyi sima ikaba yangirika bitewe n'uburambe ifite, ndetse n'ihindagurika ry'ikirere riterwa no kuba haba imvura, ndetse n'izuba ryinshi.